Abantu batatu harimo babiri bambaye bikwije agapfukamunwa ndetse n'imyenda ibapfutse umubiri wose irimo ibara ry'umweru n'uturongo tw'ubururu, harimo umwe ufite ikaramu ndetse n'aho ari kwandika n'umurwayi uryamye ku ga.

Ikinyabiziga kizwi ku izina ry'imbangukiragutabara gitwara abarwayi, handitseho imbangukiragutabara Akarere ka Nyagatare, Gatunda Hospital, kiriho ibirango by'icyatsi, kirimo umushoferi n'umugabo wambaye agapfukamuwa umwicaye iruhande.

Ishusho igaragaza abagore n'abagabo batatu, batatu ibitsina byombi bari kurahira. Harimo umwe uri gusoma indahiro bamanitse amaboko. Bambaye imipira y'umweru n'amapantaro n'amajipo y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirwarirwamo, harimo umuntu uryamye ku gatanda, hariho supanete zimanitse z'umweru, urimo udutanda tw'umweru ndetse n'inkuta ziri mu ibara ry'ubururu.

Agatanda ko kwa muganga gasa umweru, gashasheho igitambaro cy'ibara ry'icyatsi, hakaba hari udutebe two mu ibara ry'ubururu ndetse hari igikuta cy'ibara ry'umweru.

Umudamu wambaye imyenda iranga akazi akora, wambaye ingofero n'agapfukamunwa n'isaha ku kuboko ndetse n'itaburiya iri mu ibara rijya gusa ubururu. Akaba ari kwa muganga aho arimo afashe akana kari muri koma.

Imodoka irimo ibyifashishwa byo kwa muganga ishobora gukoreshwa na yo nk'ibitaro bigendanwa, irimo agatanda umurwayi aryamaho, burankali y'akagare kifashishwa mu gihe batwara umurwayi bamuvana ahantu hamwe bamujyana ahandi, puberi n'ibindi bikoresho.

Mu nzu y'abarwayi harimo ibitanda, abarwayi baryamye n'abandi bari mu tugare, bifite ibara ry'umweru harimo ibitanda biriho amashuka asa icyatsi, igitaka n'ababyeyi babarwaje.

Imodoka yifashishwa mu buvuzi izwi ku izina ry'imbangukiragutabara, yanditseho akarere ka Nyagatare, Gatunda hosipito ikaba yicayemo abantu babiri, umwe wambaye agapfukamunwa ndetse n'uyitwaye wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ahantu hari abantu benshi bicaye hamwe. Biganjemo abadamu bafite abana, n'uwo mudamu wambaye imyenda y'ibitenge uteruye akana. Akaba afite n'ibipapuro mu biganza bigaragaza...

Ibiganza bigaragaza umuntu wambaye ga w'umuganga ndetse n'undi utazambaye uri gufatwa amaraso, mu gihe ari kumupima ngo barebe indwara ashobora kuba arwaye, imbere yabo hateretse ibipapuro.

Abagabo babiri bahagararanye bafite seritifika, umwe yambaye umupira w'ingofero y'umukara ndetse n'ikimuranga mu ijosi baje, undi yambaye agapira k'umweru n'ikote.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'akazi bagaragara nkaho ari abaganga, bamwe bambaye iya buresiyeri, abandi bambaye amataburiya y'umweru wera na ga z'ubururu bafite inshinge mu ntoki.

Abantu bateraniye hamwe mu gikorwa kimwe, harimo bafite urushinge, undi wambaye itaburiya y'umweru, bari kwerekana na bagenzi babo, imbere yabo hateretse uducupa turi mu mabara atandukanye.

Abaganga babiri bari mu cyumba cy'aho bapimira ibizamini, kizwi ku izina rya laboratwari bigaragara nk'aho hari ibyo bari gukora bambaye impuzankano zabo z'akazi zo mu ibara ry'umweru na taburiya.

Umudamu uri mu cyumba cy'ubushakashatsi aho arimo arapima ibintu runaka, yambaye impuzankano z'akazi aha akora zizwi ku izina ry'itaburiya ziri mu ibara ry'umweru, afite imisatsi isutse akaba afite ikintu mu biganza bye kikoze mu kintu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ijire mu mabara y'icyatsi n'uturongo tw'ivu, uri hagati mu bana usa nk'aho ari kubaganiriza yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ishusho igaragaza umugabo uri mu nama uri gutanga ikiganiro wambaye agapira k'icyatsi kibisi handitseho RBC hari abana n'abagore ndetse n'abagabo bamukikije bari kumva ibyo ababwira.

Igishushanyo kiriho ibiganza by'abantu, handitseho twite ku buzima bwo mu mutwe hariho nimero arizo ijana icumi makumyabiri na kane hakaba handitsweho ji a eri je Rwanda.

Abantu bicaye hamwe hari kubaha ikiganiro harimo abagabo n'abagore bahagaze imbere yabo bakaba bari kuba ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima, inyuma yabo hakaba hari ibitambaro.

Abagabo bageze kuri batanu bari hamwe basa nk'aho baririmba banakoma mu mashyi, harimo uwambaye agapira k'icyatsi, uwambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, uwambaye umupira muremure urimo amabara y'icyatsi, umukara n'umweru.

Abantu bateraniye hamwe hari umwe uhagaze imbere uri kubaha ikiganiro, inyuma yabo hari ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, basa nkaho bafite insanganyamatsiko imwe bari kwigaho.

Icyapa kimanitse ku nzu kirangwa ko ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, farumasi, handitseho ngo Ayivani, farumsi LTD, iri mu ibara ry'icyatsi, hari na nimero za telefone z'uwo muntu ukorera muri iyo forumasi

Inzu icururizwamo imiti izwi ku izina rya farumasi, harimo umuntu wambaye linete n'itaburiya y'umweru, uhagaze imbere ya laputopu urimo urayikoresha.

Inyubako icuruza imiti itandukanye izwi ku izina rya farumasi, haba harimo imiti iri mu mayetageri n'indi iri mu tubati, iri mu macupa atandukanye, harimo umuganga ucuruza iyo miti wambaye itabura y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti farumasi iriho icyapa kiyiranga, imbere hariho umuntu wambaye imyenda y'umweru, umupira w'umweru n'ingofero, hakabaho n'umumotari uparitse impande y'iwe.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara nk'aho baje mu bukangurambaga runaka bw'ikintu, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abana.

Abantu bari hamwe bafite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite ibirango by'umweru n'amagambo yanditswe mu mukara, yanditseho wiceceka rwanya ihohotera rishingiye ku gitsina.

Abantu bari hamwe mu cyumba cy'inama bahagaze bariho barakoma amashyi nk'abateye ka morare harimo abagabo n'abagore, bambaye imipira iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umuntu urimo uratunganya umuti gakondo, uri kuwusekurira mu kantu kawugenewe, aho byitwa gusabika umuti w'ibyatsi akaba usa icyatsi kibisi, akaba ari gukoresha agasekuru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru uri aho bacururiza imiti gakondo itandukanye iri mu macupa atandukanye, aho afite iri mu macupa y'umuhondo indi iri mu macupa y'icyatsi.

Ababyeyi batatu harimo umugabo umwe n'abadamu babiri bateruye utwana. Umugabo yambaye akajageti gatukura karimo imirongo y'umweru, bicaye ahantu mu biro imbere yabo hari umuntu usa nk'aho ari gufata ibyangombwa.

Udukarito tw'imiti y'ubwoko bumwe turi mu mabara y'umweru, twanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, hakaba hashushanyijeho inka n'ingurube handitseho.

Ishusho igaragaza umugore wicaye wambaye ga n'itaburiya, akora umwuga w'ubuganga, uri mu kumba karimo igitanda, hari n'undi umuhagaze impande wambaye ipantaro ya bureshiyeri n'ishati y'umweru.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore, imbere hari umugabo uhagaze bari kubaha ikiganiro, iruhande rwe hari undi mudamu nawe uhagaze wambaye umwenda w'ibara rya burusiyeri.

Abaganga bari mucmba cy'abarwayi, bambaye amatabula y'umweru, umwe w'umugabo afite ikayi mu ntoki, akaba ari kumwe n'umufasha impande wambaye akajire.

Inyubako iri mu ibara ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu yanditsweho gira ubuzima, imbere yayo hari abantu bariho baracinya akadiho bambaye amataburiya yo mu ibara ry'ubururu n'ahandi ibara rya buresiyeri.